Ni mu biro bigaragara ko harimo abayobozi harimo abagabo, abagore bakaba bose bari kuganira bigaragara ko baba bari mu nama baba bari kunguranya ibitekerezo.

Aha tukaba turi kubona abantu batatu abagabo babiri badafite imisatsi n'umugore umwe, imbere yabo hakaba hari amacupa abiri aryamye yaguye hasi n'irimwe riteretse neza.

Ndabona abayobozi bari mu nama harimo abagabo, abagore. Abagabo bafite amarinete n'abatayafite bigaragara ko bari mu nama bari kungurana ibitekerezo.

Turi kubona abantu bicaye ku meza bari mu cyumba kinini hakaba harimo, abari imbere yacu bakamo abagore bane n'umugabo umwe bose bafite amazi yo kunywa banafite mudasobwa.

Aha tukaba turi kuhabona umunara na senyege; umunara usizwe ibara ry'umutuku n'umweru, hasi y'aho hakaba hari icyapa cya eyateri.

Uyu n’umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Hano ni itangazo ryatanzwe na rwanda reveni otoriti ryakozwe muri bibiri na makumyabiri nagatatu, riri kwerekana ukuntu umuntu yabasha kujya kureba umusoro we.

Iki ni icyapa cya ekobanke kikaba kiri mu marange y'ubururu, aha akaba ari icyapa kigaragaza ko ku ruhande rw'ibumoso wahasanga icyuma gifasha mu kubikuza amafaranga.

Aha ni ku rubuga rwa rura nk'uko bigaragara bakaba bari mu gice kivuga kijyanye n'umuriro hakaba harimo ukuntu wabasha kubona uburenganzira bwo kuba wabasha gushyiramo umuriro mu ngo zitandukanye.

Aha ni mu nzu, tukaba turi kubona ipoto ry'amashanyarazi. Hakaba hari ubusitani n'ibiti byinshi. Akaba ari inzu idafite amarangi, itari nini cyane.

Aha turi kuhabonaga icyumba gitoya ariko kigaragara ko cyuzuyemo abantu benshi bashobora kuba baje gusaba ubufasha, harimo abagore abamama abana ndetse n'abagabo.

Hano hagaragara abantu bane harimo abagore babiri bambaye imyenda y'iroza, n'abagabo babiri bambaye imyenda y'umukara imbere yabo hakaba hari icupa ryamazi.

Aha turahabona icyapa giherereye muri Gicumbi hakaba hari ubusitani n'amazu abiri imwe y'ubururu n'indi ifite amadirishya y'ubururu, hakaba harimo ibyatsi byinshi cyane.

Aha tukaba turi kubona abantu batanu. Abagabo bane n'umugore umwe bose bambaye idarapo ry'u Rwanda. Hakaba hari n'ibipapuro bateretse imbere.

Itangazo ryo kwamamariza ikigo gikoresha serivisi kuri murandasi kizwi nk'irembo iryo tangazo rivuga ko bafunguye uburyo bushyashya aho bakwishyura serivisi zo muri laboratwari bifashisha mu ibirembo, umunsi hari uburyo wabona aho wabashaka guhamagara kuri mirongo ikenda icyenda n'ikenda

Aha turi kubona abantu batatu, abagabo babiri n'umugore umwe. Umugabo umwe akaba ahetse igikapu undi akaba yambaye imyenda y'icyatsi

Kizimyamowoto nini y'umutuku ikaba iteretse ku gikuta hirya y'aho hakaba hari akantu gatoya abantu bashiramo imyanda.

Uyu n’umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'uturongo tw'umweru, kuhande hari ubusitani bwiza burimo ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi ku binyabiziga bihanyura byose.

Aha turi kubona umugabo inyuma ye hakaba hari abandi bantu batanu harimo abagore bane n'umugabo umwe, uyu mugabo akaba agaragara nkaho ari kubwira uruhame rw'abantu benshi.

Iyi foto iragaragaza ubuyobozi uri kuvuga mu nama abwira abantu benshi imbere hakaba hari icupa ry'amazi akaba yambaye nka n'amarinete.

Tukaba turi kubona umuhanda urimo imodoka nini, moto, igare n'abanyamaguru, hirya hakaba hari ibitikaba hakaba ari n'umuhanda wa kaburimbo.

Uyu akaba ari umuhanda ugendwamo imodoka n’abantu, tukaba turi kubona imodoka nini y’ikamyo izi ku bwoko bw’ikamyo, ikaba itwayemo umuzigo.

Aha ni mu muhanda ugendwamo imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, tukaba turi kubona imodoka nini y'ikamyo, ku ruhande hakaba hari umuntu w'umusore ufite ibikapu bibiri hakaba no ku rundi ruhande hari amazu.

Aha akaba ari muri gare ya Nyabugogo, aho abantu benshi bategereje imodoka zitandukanye bitewe naho zigiye kubajyana. Imbere yacu tukaba turi kubona imodoka imwe ifite ububasha bwo gutwara abantu benshi ya Litico.

Aha ndi kubona imodoka iparitse mu muhanda w'igitaka, ikaba ari imodoka yagenewe gutwara abantu, ikaba ari ikora muri kampani ya eko kapu.

Iyi akaba ari inzu nzi ndende yubatswe mu buryo bugezweho hakaba harimo amabara y'icyatsi n'ubusitani n'ibiti birebire.

Aha tukaba turi kubona imodoka nyinshi cyane ziri mu muhanda, hakaba hari amapoto y'amatara, hari n'ubusitani bunini, bikaba bigaragara ko hari n'amamoto kandi n'umuhanda munini usa neza.

Hano turiko umuhanda munini wa kaburimbo urimo ubusitani bwiza buteguye neza kandi ufite isuku, ukaba ari umuhanda ugendwamo imodoka akaba ari n'uruhande rw'abanyamaguru.